Ahantu bapimira imvura nko mu ibishanga by'umuceri. Usanga baba bafite ibikoresho byihariye bijyamo amazi bakamenya imvura yaguye muri icyo gihe runaka muri uwo mwaka. Kuko babipima bakoresheje amagarama cyangwa se n'ubundi buryo bwa gihanga bukomeye.

Umuti wica udukoko ni umuti batera mu myaka cyane nk'ibirayi, inyanya ndetse n'ibindi bimera biba byarafashwe n'udusimba runaka tukabyangiza. Bajyaga bawutera rero kugira ngo bice utwo dukoko ibihingwa bibashe gukura neza.

Igihingwa cy'inyanya ni igihingwa gihingwa cyane mu ntara y'amajyaruguru ndetse no mu bindi bice kuko inyanya zitanga umusaruro wo kuba zigira intungamubiri mu byo turya kandi zigatanga n'amafaranga mu buryo bwihuse. Iyo rero bazitera, bazitera umuti, bazishyiramo amafumbire kugira ngo zibashe gukura neza.

Ubuhinzi bw'inyanya ni ubuhinzi buba bumeze neza cane. Umugore ari mo aratera umuti ahetse icuma, ndetse n'inyanya zimeze neza. We yakunze gutera mo detanI ndetse na ire kugira ngo zikomeze kuba nziza, zitohagire, zitanga umusaruro.

Ibi bihingwa duhinga bikenera amafumbire n'imiti bitandukanye kugira ngo bibashe gukora neza. Hari ubwo dushiramo imiti kugira ngo ibihingwa bitaribwa n'udukoko cangwa se bikaba byakwicwa n'izuba cangwa n'imvura. Kenshi rero iyo dutera, tuba twambaye ibikoresho biturinda.

Imiti yica udukoko, ni imiti ikoreshwa cyane cyane mu buhinzi ,n'ubworozi, kubera ko igira uruhare mu kuzahura ibihingwa, biba bishobora kwicwa n'udukoko, nk'igihe cy'izuba cyangwa igihe cy'imvura, bikaba byakwica imyaka. Turasabwa gukoresha iyi miti mu buryo bwiza, kugira ngo tubashe kubungabunga ibihingwa byacu.

Amavuta menshi ava mu bimera abantu barayisigaga agandi bakagarya. Usanga gagirira neza umumaro ku ruhu rw'umuntu ndetse no mu mubiri wacu. Turayaryaga agandi tukagisiga ku buryo usanga ari ibintu bimeze neza cane.

Amafi ni bimwe mu biribwa abantu bakunze kurya cyane, kuko bigira intungamubiri ziruta iz'inyama zisanzwe, amafi aboneka mu biyaga by'iwacu mu karere ka Musanze ndetse no mu bice bya Burera na Ruhondo. Ni amafi rero meza cyane aba yunganira aboneka mu biyaga bya Kivu n'ibindi, kandi akaba akunzwe cyane.

Mu ndyo yuzuye haba harimo ibitunga umubiri, ibirinda indwara n'ibitera imbaraga, inyama rero ni kimwe mu bintu bitunga umubiri, ku buryo usanga umuntu ashishe neza umubiri ukaba uteye neza, iyo wabiriye usanga umubiri wawe unoze kandi ukagira ubuzima bwiza.

Hari ibiyaga byinshi byo mu karere kacu biba bifite amafi menshi bakayashyira mu bitebo, aba ari amafi manini ku buryo akundwa n'abantu cyane iyo bayariye bagira ubuzima bwiza , ndetse ugasanga n'abantu bayakundira kuba agira isosi nziza cyane, ku buryo mbese iba iruta iy'inyama zisanzwe.

Bimwe mu biribwa biboneka mu mazi, kandi bikaba bigira uruhare runini mu kubaka umubiri ku buryo usanga ari biribwa biba bikunzwe cyane. Bicuruzwa mu masoko hirya no hino, ni ukuvuga ngo barayaroba ugasanga rero bayatanditse, ukaba wayagura ukayarya ako kanya cyangwa se unayatetse.

Akenshi iyo bategura ifunguro baritegura bashyizeho n'utuntu two kuriherekeza nk'indimu cyangwa se n'utundi tuntu turyoha, kenshi iyo batetse nk'umureti usanga hari abawarurira k'udupalato tumeze neza cyane.

Uburobyi bw'isambaza ni uburobyi bumaze gukorwa igihe kirekire uhereye mu bihe bya kera kugeza ubu kandi isambaza ni tumwe mu tuntu turibwa cyane n'abantu kubera ko badutekamo isosi ugasanga tumeze neza cyane kurusha inyama zisanzwe.

Amafi ni kimwe mu biribwa bikunze kuribwa n'abantu cyane cyane kubera ko agira uruhare mu kugira ubuzima bwiza umubiri, kandi agira akamaro kuko habamo intungamubiri ziba zimeze neza, zigatuma muri bya bindi byose byubaka umubiri n'ibirinda indwara bitera imbaraga.

Ahantu hororerwa amafi usanga ari ahantu haba hafite amazi ahoraho. Baracukuraga bagakora ibintu bimeze nk'ibizenga, noneho amafi ajagamo ntavemo ahubwo gagahoramo, bakayoboramo n'agamazi ku buryo usanga umusaruro wayo wiyongera buri kanya.

Amafi ari muri firigo ategerejwe gutunganywa, kugira ngo abakiriya ni baza bayagure, bajye kuyarya kandi ni ahantu hameze neza hafite isuku, bigaragara ko rwose kuyateka nta kibazo kirimo, ni amafi aryoshye cyane cyane.

Amafi ni bimwe mu biribwa biboneka mu mazi kandi bikagira intungamubiri zihariye mu buryo bwo kubaka umubiri. Ntizibonekamo intungamubiri nziza cane ku buryo usanga baziriye baba bamerewe neza cane.

Ibibara ni hamwe mu ahantu haba hararaye, haba harakuwe nk'ibirayi cyangwa n'indi myaka ntibasubizemo iyindi, ugasanga ni nkaho kuragirwa amatungo cyangwa bagashakamo ubwatsi bwo kuyatunga, ni ahantu haba hameze neza cyane haba hameze nk'ubusitani, ariko butatewe kugira ngo hakomeze kurara hagira ifumbire.

Ibiti bya voka ni bimwe mu biti bitanga imbuto nziza cyane, kuko iyo abantu bamaze kurya bakarenzaho voka, usanga bahaze kandi bikaba byatanga n'umusaruro mu kwinjiza amafaranga yo gutunga urugo. Bitanga kandi n'umuyaga mwiza duhumeka, tukabona umwuka mwiza uyunguruye.

Urutoki ni bimwe mu bihingwa bishobora guhingwa ku rugo cyangwa se bigaterwa n'ahantu habyonyine ,bigira ibitoki byiza cyane hari nk'ibizwi nk'inyamunyu ,intuntu cg se inkashi bimwe bigira n'imineke, bakaba bakuramo urwagwa cyangwa umutobe bawukamiye mu mivure igihe baba barabitaze bigashya bigasa n'umuhondo.

Inzu bahunikamo ibirayi, bazikoresha cyane cyane ibiti bitagira isima, kugira ibirayi bibashe kumera neza. Barabisobeka bakabishinga kugira ngo haboneke ubuhumekero bwo kugira ngo ibirayi bitaba byabora, ni uko bikamera, bikaba imbuto nziza cyane ku buryo igihe cy'ihinga usanga bikundwa, kubera ko biba bitararwaye ngo bigire ntibibore.

Ibigori bahinze hano birimo n'ibishyimbo ni ibigori bigiye kwera, hanyuzamo itiyo ry' amazi rijana amazi mu baturage. Ni ibigori bimeze neza cane, birimo n'ibyatsi bitoshe ntiwareba, rwose bigiye kwera ni ibigori byi'icatsi by'imiterero.

Ku nzuzi no ku migezi, haba hari ubusitani bwiza cane. Amazi aratembaga akagenda ku buryo n'abantu bayogamo, ndetse haba hariho n'ibiko n'ibindi byatsi bimeze nk'imigano, ku buryo usanga n'inyamaswa zibikunda. Bamwe baja no kuhahirira amatungo bakayaha ibyo byatsi biba biteye iruhande rwayo.

Amajeri ni kimwe mu biribwa byiza cane bikunze guhingwa mu karere k'amajaruguru ku buryo usanga agira uruhare mu kugira ifunguro ryiza kandi bigatuma abantu bakura neza iyo bayariye. Ni ifunguro ryiza cane abantu bashishikariza guhinga kugira ngo baje barirye.

Urusasa ni kimwe mu bihingwa n'ibimera biboneka cyane cyane mu ntara y'Amajyaruguru. Habamo imigano dukoresha mu gukomanya turi kubaka amazu, cyangwa se tukayikoresha mu kubona imishinngiriro yo gushingirira ibishyimbo, kandi ugasanga irakomera n'iyo yumye turayicana ugasanga bimeze neza cyane.

Ibigorigori ni ibintu biba byarasigaye ahantu baba baciye ibigori, ugasanga bashobora kuragiramo amatungo, kandi ugasanga iyo babitemaguye byongera gutanga ifumbire y'umwimerere. Abantu rero barasabwa kujya bahinga ibigori, kuko bitanga umusaruro bikavamo n'ifu, itunga urugo muri icyo gihe

Ubuhinzi bw'ibiti by'avoka ni bumwe mu bikunze gukoreshwa muri iki gice cyacu cy'amajyaruguru kuko usanga ibiterwa nko ku mihanda no ku ngo ugasanga rero biri gutanga umusaruro mu kuba imbuto zibonekera ku gihe zishobora gushyirwa ku ifunguro cyangwa zikaribwa zonyine.

Ahantu hatarahingwa, haba hari ibyatsi bimeze neza cane, ku buryo n'abantu bashobora kwahiramo canga akaragiramo, nuko no mu bibara biba ari imigumira, ku buryo usanga abantu bazabihinga bimaze kura.

Ubusitani ni kimwe mu bikorwa byiza cyane kuko bituma tubona umwuka mwiza wo guhumeka bikabasha kuyungurura ibyuka bihumanya ikirere ndetse ugasanga bitanga n'akayaga keza. Ni ahantu abantu bashobora kuruhukira, kwiyicarira ,mu buryo bwo kumva amahumbezi yabwo.

Urutoki rwo mu majyaruguru ni urutoki ruba rumeze neza, rudafite ikigunda ushobora guteramo amateke hagati ukazitiza imitotobo, kugira ngo amatungo atarwahuka akaba yajya ku rwonona, ni insina ziba zimeze neza zifite n'imibyare myinshi.

Muri iki gice cyacu abantu benshi bashaka ubwatsi bw'amatungo mu bihuru. Ku buryo bamwe babishakira nko mu bidariya, cyangwa se mu miharavumba, mu byatsi baba baranduye mu mirima, bakaba babikeresha agakero. Ndetse kugira ngo babyikorere bakabipakira mu mifuka, ibindi bakabyikorera babihambiranyije.

Intonore, ni zimwe mu bishyimbo biba bimeze neza cyane, bisarurwa bitumye, abantu bakabiteka, bishobora gutekwa nko ku birayi by'amaganda, cyangwa se bakabiteka impirike. Usanga ari ibiribwa byiza cyane, kandi biba bimeze neza, kubera ko bitera imbaraga kuwabiriye.

Imbuto ni ibiribwa byiza cane byubaka umubiri bikaba byanarinda n'indwara kubera ko bituma ubuzima bumera neza bw'ababiriye kandi ugasanga ni ibintu byiza cane buri wese yashishikariza kuzwa kurya kubera ko bigira uruhare mu gogorwa bigatuma umuntu atabasha gutumba nk'iyo yazereye

Igihingwa cya karoti ni igihingwa kiba kimeze neza cyane kuko gitanga umusaruro mwinshi kandi kigatanga n'intungamubiri ku bakiriye. karoti zishobora kuribwa zitetse cyangwa ari mbisi mu buryo bwo kuzihekenya. Ni igihingwa rero cyera ahantu hose haba hashyuha, ndetse n'ahakonja kirahera.

Avoka ni imbuto nziza cyane zikundwa n'abaturage muri aka gace kacu k'amajyaruguru. Kuko iyo uriye ibiryo biriho avoka wumva uhise uhaga, kandi no kuziteka ubwazo zigira akamaro mu guhaza umubiri w'umuntu.

Imbuto ni kimwe mu biribwa byiza cane, kuko bituma umubiri ukora neza. Amaronji, inanasi canga se ibinyomoro, ni ibiribwa biba bifite intungamubiri, ku buryo mu soko ry'ibiribwa aribyo biba byiganjemo, kandi bikatuma habaho n'abakiriya benshi bo kubigura bari kubihaha.

Ubuhinzi bw'inkeri n'ubuhinzi ntibukunze gukorerwa mu gice gishyuha kuko izi nkeri zikurwamwo imitobe, abantu bakayinywa, kandi ugasanga bafite ubuzima bwiza cyane, abantu rero baba bafite ubutaka bwo guhinga basabwa guhinga iki gihingwa, kugira ngo gikoreshwe mu gukora iyo mitobe.

Imashini zikata ubwatsi bw'amatungo zoroshya uburyo bw'ubworozi kuko zijyana n'igice, kandi bukaba bugira akamaro mu korohereza abantu batiriwe batemagura ibyatsi, ahubwo bakabona ubwatsi butemaguye mu gihe gitoya, bikaba byakoroshya ubworozi muri iki gihe.

Muri iyi minsi hari ubushakashatsi bwakozwe n'abantu b'abahanga, ku buryo batera ibirayi mu nzu zabugenewe zitwa gilini hawuzi, abantu iyo bazigiyemo rero usanga babona ibirayi byiza bimeze neza by'ingemwe, ku buryo babihinga rimwe na rimwe mu mirima yo hafi y'amago, cangwa se nko kuri za motimbiri kandi bikera neza.

Imyembe ,ni zimwe mu mbuto zikunzwe n'abantu benshi muri iki gihe, kuko zituma abantu baziriye bagira ubuzima bwiza. Abana barazikunda, ndetse n'abakuru barashishikarizwa kuzirya, kubera ko zituma abantu bagira ubuzima buzira umuze, buzira indwara, ahubwo bagahorana ubuzima bumeze neza cyane butarimo kurwaragurika.

Ibirayi ni kimwe mu bihingwa bihingwa mu ntara y'Amajyaruguru kandi bikera cyane ugereranyije n'ibindi bice. Usanga ibirayi byo mu ntara y'Amajyaruguru bizwi ku izina rya Kinigi ari ibirayi byiza cyane bikundwa kuko biba bimeze neza cyane haba mu kubiteka amaganda cyangwa kubitekamo amafiriti.

Dendo ni ubwoko bw'ibiguruka byororwa mu ngo, kuko bigira inyama nziza cyane kandi bikaba bikundwa ku isoko ry'umurimo, aho inyama zazo ziba zihenze kubera umwimerere ziba zifite mu kuryoha. Abantu benshi rero mu maresitora, baba bashaka kwirira izi nyama kuko ziryoha cyane.

Ibigori byo mu karere kacu ni ibigori biba bimeze neza cane, kuko turabihingaga ahantu harambuye cangwa se no mu misozi, ariko ugasanga biratoshe cane, kuko biba byarabonye imvura ihagije ibisikana n'imico, ndetse ugasanga ni ibigori bimeze neza bihetse cane neza.

Urusenda ni rumwe mu mbuto zitanga umusaruro, kuko rugurishwa kenshi ku masoko mpuzamahanga. Usanga rukorwamo ibindi bikoresho, cyana cyane nk'umutobe w'urusenda nyine uzwi nko kuri Nyirangarama, ku buryo usanga rushyirwa mu gacupa bakaba barurya rurameze nk'amazi.

Inyama y'inkoko ni zimwe mu nyama zikundwaga cane n'abantu benshi b'abakire ndetse n'aboroheje kuko no kuzorora ubwazo zidasaba igishoro kinini. Usanga hari n'izitekwa mu mahoteli ndetse no mu maresitora ku buryo abantu bagiye bose mu maresitora baba babaza inkoko uburyo bazirya n'uburyo bazitunganyiriza.

Ubworozi bw'inka ni ubworozi bukorwa mu buryo butandukanye: Hari uburho bwo kuzororera mu biraro mu rugo cyangwa se bakazororera mu bikuyu mu mafamu . Ubworozi bukorerwa mu bikuyu cyane iyo ari amashyo cyangwa bugakorerwa mu biraro bisanzwe iyo ari inka nke zishobra kororerwa mu rugo.

Ikawa ni kimwe mu bihingwa bihingwa mu duce dushyuha. By'umwihariko nko mu ntara y'Amajyaruguru hakunze guhingwa muri za Gakenke na za Rulindo ku buryo zivamo umusaruro mwiza cyane, kandi zigatanga amafaranga mu buryo bwihuse ku bantu baba barazihinze. Ni igihingwa kimara igihe kirekire mu murima, ku buryo usanga nta mbogamizi giteye mu kugihinga.

Ibijumba ni kimwe mu biribwa byiza cane kuko bituma abantu bagira imbaraga, kandi noneho ni ibiribwa byiza kubera ko bishobora kuribwa bitetse cangwa bitanatetse. Ni ibiribwa rero bikundwa n'abantu b'igihugu cose muri rusange.

Mu bishanga hakorerwamo imirimo myinshi y'ubuhinzi, ku buryo usanga abahingamo nk'umuceri, ingano n'ibindi bihingwa byera mu bishanga, usanga hari abo kubikurikirana baba bameze nk'abajyanama b'ubuhinzi, abagoronome ndetse n'abandi babihuguriwe bakaba barabyegiye.

Inyanya ni ibihingwa bahingaga mu ntara y'amajyaruguru. Ni ibihingwa biba bifite akamaro kenshi, kuko bazivangaga n'ibiryo bikaziryosha, kandi ziba zifite n'intungamubiri zihagije. Abana bakunda kuzihekenya, ndetse n'abantu bakuru barazihekenyaga.

Ingano ni bimwe mu bihingwa bihingwa cyane cyane mu ntara y'amajyaruguru. Ingano rero zikorwamo ifu yo kuba yatekwamo igikoma no kuvuga umutsima cyangwa se zigakoreshwa mu kwenga umusururu, ndetse n'ibindi bikorwa nko gukoramo imigati y'imbada, n'ibindi biribwa bitunga imiryango.

Ibigori ni kimwe mu bihingwa, bihingwa mu Ntara y'Amajyaruguru, kandi ugasanga birigutanga umusaruro, cyane cyane nka bino bizwi nka eburide. Ni ibigori biba bimeze neza cyane, ku buryo usanga byungura urugo vuba, cyangwa se mu ku rubonera ibiribwa bihagije, kuko bitekwamo igikoma, impungure, no kubiteka amahundo ubwabyo.

Ubuhinzi muri iki gihe bukorerwa mu misozi， baba bagomba kubanza bakora amatarasi y’indinganire， kugira ngo bafashe， babashe gufata ubutaka butaba bwajya mu mibande, ifumbire ikagenda.

Avoka iyo zitangiye guhunguka zitacyera, kugira ngo zibashe gutanga umusaruro, hari igihe bamanikamo agacuma kugira ngo kazifate ze guhunguka. Ni umuco wa kera abantu baba bafite wo kugira ngo babashe kubungabunga ibi bihingwa, bitekubasha guhunguka uko byiboneye.

Igihingwa cy'ibigori, ni igihingwa gishyirwamo imbaraga mu ntara y'amajyaruguru, kuko barabihingaga ugasanga bireze neza bikavamo ifu n'impungure zo kunyobwamo igikoma, ahanga bitanga n'amafaranga yihuse mu buryo buhoraho.

Ibirayi ni kimwe, mu biribwa byiza cyane. Ibirayi rero bya kiniigi biba binini, kandi bikaba byiza, ntibipfa gufufuka kuko iyo n'ubu unabitetse, nko mu mavuta biba bidasenyagurika, cyagwase ukabiteka nk'amaganda ukagerekaho, nk 'ibishyimbo, biba ari byiza, cyane.

Ibigori bisigaye byera inaha mu Ntara y'Amajyaruguru, usanga ari ibigori bimeze neza cyane kubera ko bishobora kwera ahantu hashyuha ndetse n'ahakonja. Ubwo rero ibigori bizwi nka iburide ni ibigori byiza cyane, usanga bitanga umusaruro mu kubona igikoma, kubirya nk'impungure no kubyotsa ubwabyo uko byakabaye.

Abantu benshi bahirira amatungo， bakazana ibyatsi byo kurya by'ayo matungo mu ngo， cyangwa bakaba banabisasa kugira ngo babashe kubona ifumbire yo kuzateza imyaka， kugira ngo yera ibashe gutanga umusaruro.

Iteke ni ibihingwa bihingwa cyane mu bishanga no mu ntoki kuko agira uruhare mu guteza imbere ibiribwa biboneka mu rugo kandi abayariye baba bakomeye kubera ko na yo ubwayo aba akomeye ari amafufu.

Urusenda ni kimwe mu bihingwa bihingwa cyane mu Ntara y'Amajyaruguru kuko bitanga umusaruro mu kubigurisha ku isoko mpuzamahanga, bakabikoramo urusenda rw'amazi rusukika, abantu bakajya baruminjira ku biryo bakabirya biryoshye kandi rugatera apeti.

Ukokomoka ku buhinzi usanga ugira uruhare runini mu kuzamura ubukungu bwurugo, haba mu mibereho isanzwe cyangwa se mu guhaza ibiribwa kubagize umuryango. Kandi byongera no kuba abantu bagira amafaranga abivuyemo cane cane kugirango bagire ubuzima bwiza bw'imiryango baba batunga.

Amatunda ni kimwe mu bihingwa byiza kubera ko iyo ariwe nabantu bagira ubuzima bwiza kandi ugasanga bamerewe neza mu mubiri. Ushobora kuyatera uyavanze n'indi myaka nkamateke, cyangwa se n'urutoke, kandi akera ku buso butoya cangwa se bunini bitewe n'ico ushaka kugeraho.

Amapapayi ni imbuto nziza cane zera mu gice gishyuha, ariko hari n'amapapayi matoya yera mu gice gikonja. Usanga ari imbuto nziza cane kuko zigira uruhare mu kunoza ifunguro cangwa se ukaba wanazirya zonyine, bitewe n'impamvu zawe bwite. Ni imbuto rero nziza cane zirimo ibyubaka umubiri n'ibirinda indwara.

Hari ahantu henshi haba hameze nk'ibisagara, ku buryo haba hubatswe nk'inzu imwe ishobora kuba ikorerwamo nko mirimo y'ubworozi cyangwa se yo kurinda aho hantu. Bityo ugasanga ni ahantu haba hameze neza cyane kuko haba hahingwa imyaka gusa ntabantu bahatuye, umusaruro bigatuma wiyongera kubera guhingwa ku buso bunini cyangwa se no kuhorera amatungo.

Uburyo bugezweho muri iki gihe niguhinga ibihingwa ariko hagatekerezwa n'uburyo bwo kuba bakuhira imyaka bakoresheje amatiyo cyangwa se azwi nk'impombo. Ubwo rero nubuhinzi bumaze gutera imbere cyane cyane mu ntara y'Amajyaruguru, kuko usanga abantu babikoraga baba bafite n' akazi gahoraho.

Voka ni zimwe mu mbuto nziza cyane zigira intungamubiri nziza zo kunyereza uruhu n'umusatsi ku buryo uwaziriye aba ameze neza cyane. Ni imbuto zihaza ku buryo iyo zigiye ku ifunguro riba rimeze neza cyane cyangwa se ugasanga bazirya zonyine nabyo biba ari byiza.

Inanasi ni kimwe mu bihingwa byiza cyane kuko bizana amafaranga vuba kandi bikera, biri kugira amafaranga menshi, kubera ko ziraryoha zikaba zamara inyota. Bashobora kuzicuruza uko zakabaye, cyangwa bakazicuruza mu ndobo zihase.

Imyembe ni zimwe zimwe mu mbuto abantu bakunda cyane, kuko zituma uwaziriye agira ubuzima bwiza, kandi ugasanga ari ibintu biba bishimishije kuko n'abana ubwabo barazikunda, zikaba zatuma babasha kugira apeti yo kurya ibindi biryo bikurikiyeho.

Imyembe ni zimwe mu mbuto nziza cane kuko zituma abantu bagira ubuzima bwiza, bakunze kuzigaburira abana batoya ariko n'abakuru baraziryaga ku buryo usanga zimeze neza cane, kandi n'imbuto zihingwa mu busitani haba nko mu ngo cangwa se mu mirima.

Ibigori ni kimwe mu bihingwa byiza cane bihingwa mu karere ka Musanze by'umwihariko mu misozi miremire. Ni ibihingwa bizwi nko ku izina rya iburide, usanga ari ibigori biba bimeze neza ku buryo kubirya wumva bifite ubujetama bakanda abantu bakabikunda.

Ubwikorezi ni kimwe mu bintu abantu bakora cane. Kubera ko abenshi babukora badakoresheje ibinyabiziga, kandi bigatuma bashobora gufata ibyo bafite bakabivana mu ngo, bakabijana nko mu soko. Cyangwa se bakajya kubihaha bavuye mu isoko babijana mu rugo. Bakabitwara ku mitwe yabo.

Mu masoko y'ibiribwa ahanini usanga bari gucuruzamo ibirayi, hari ibirayi duhinga mu Ntara y'Amajyaruguru byitwa kinigi. Usanga ari ibirayi binini cyane kandi kubyiboneye ngo bitanga amafufu ku buryo kubitekamo ifiriti no kubiteka amaganda byose biba bimeze neza cyane ugasanga abantu barabiku...

Ibitunguru ni kimwe mu biribwa byiza cane kandi bikaba ibihingwa bihingwa ahantu hose haba ahantu hakonje cangwa hashuha birahera, ku buryo usanga iyoba babikekeye nko ku ifunguro biba ari ibintu bimeze neza cane. Ibiryo biriho ibi bitunguru bituma abantu babikunda kubera ko binahumura neza kandi bikaryosha n'ibiryo.

Ibirayi ni kimwe mu bihingwa bihingwa cyane mu ntara y'amajyaruguru, ibirayi rero bizwi nka kinigi n'ibirayi biryoha cyane ku buryo iyo ubitetse nk'amaganda cyangwa ukabishyira ku bishyimbo, ukabishyiraho ingereko usanga ari ibintu ibiryo biryoshye neza kandi bikaba ari umwimerere.

Aga matunda bari kugacuruza, ni menshi harimo amaronji n'ibinyomoro, gamwe garatukuye agandi n'imihondo bigaragara ko geze. Gari gucururizwa mu isoko mu bintu by'ibisanduku gategereje ko abakiriya baza kugagura.

Amapera ni zimwe mu mbuto zikunze guhingwa ahantu hashuha ku buryo usanga agira uruhare runini mu kugira ubuzima bwiza akundwa n'abana kandi agatuma abana bayahugiraho mu gihe baba batari bateka nk'ibyo kurya ugasanga ni ibiribwa byiza cane.

Amatarasi ni bimwe mu bikorwa byiza cyane bikorwa mu misozi miremire nko mu ntara y'iburengerazuba na za Nyabihu, kuko usanga utwo duce tuba turimo imisozi ihanamye ugasanga rero barayakoze kugira ngo ubutaka butabasha gutemba mu mibande yo hasi ,ifumbire ikaba yamanuka abantu benshi ntibeze imyaka.

Ugasanga ari ikintu gishyirwamo imbaraga mu ntara yacu y'amajyaruguru kuko usanga ababukora ari na bo babayeho neza. Abafite ubuzima bwiza bushingiye ku kuba barya ibyo biribwa batera ndetse bakabukuramo n'amafaranga. Kandi ugasanga biri gutunga urugo bikanazamura iterambere ry'imidugudu n'aho batuye n'igihugu muri....

Indimu n'amaronji ni zimwe mu mbuto abantu baryaga kugira ngo bagubwe neza mu mubiri. Iyo abana bari gutangira kwiga kurya babahaga nka gano maronje kugira ngo babashe kumva uru ruryoherere, bayakunde ugereranyije n'ibindi biribwa baba babaha.

Ibirayi bihingwa cyane cyane mu Karere ka Musanze. Ni ibirayi byitwa Kinigi, akenshi barabihinga, ugasanga birakundwa haba mu Rwanda ndetse no hanze yarwo, ku buryo usanga ari ibirayi biteza imbere abaturage kubera amafaranga abonekamo cyane cyane, ndetse bikaba biticwa n'imvura uko byishakiye.

Ibishyimbo byo mu karere kacu ni ibishyimbo biba bimeze neza, byera bishingiriwe n'imishinngeriro miremire, ku buryo usanga bihagitse ibishimbo byinshi cyane. Abantu iyo babisoroma, babisoroma bahagaze kubera kuba birebera. Biratoshye bigira n' umushogoro mwiza ku buryo iyo uwugeretse nko ku maganda wumva ari ibiryo byoshye cyane.

Uburo ni ibihingwa biba bimeze neza cane, usanga mu myitwarire bimeze nk'amasaka ariko tukaba ari utubuto dutoya, natwo baratubetesha bagakuramo ifu yo kuba bavanga n'ibindi binyampeke nk'ibigori, amasaka na soya, cangwa se n'ibindi.

Imineke ni ibiribwa byiza cane kubera ko zituma abantu bagira ubuzima bwiza, mu gihe baba bariye nk'ibiryo bakarenzaho iryo funguro, bituma ari ibintu bimera neza cane, ku buryo buri wese yashishikarizwa kujya azirya. Ni imineke iva ku bitoki biba byatazwe.

Imyumbati ni bimwe mu bihingwa bigira akamaro kanini mu gutunga urugo, umuntu wariye imyumbati aba akomeye kuko imyubati ishobora kuribwa ari mibisi, bayihekennye, itetse cyangwa se bayanitse ikavamo ikivunde kivamo ubugari.

Imboga dukunze kurya zisarurwa bazishize mu bintu bimeze nk'ibipaniye, abagabo nibo bakunze kuzisarura. Batatu bavuyeyo bazikoreye ku rutugu, bambaye n' ingofero, bihagarariye mu byatsi, bategereje yuko abana b'iwabo baza kuzibafasha.

Mu bworozi bw'amatungo hari ibiribwa abantu bakora ku buryo bigaburirwa amatungo. Nk'ibiribwa bizwi ku izina rya tunga ni ibiribwa baha inkoko kugira ngo zikure vuba. By'umwihariko nk'amasake kugira ngo yororoke vuba vuba, atange umusaruro w'amafaranga n'inyama.

Abantu bavuye gusoroma icayi, hari mo abagore n'abagabo bikoreye ibitebo binini, bamwe bahetse n'abana, bari bazindutse kare bagiye gusoroma ico cayi, kugira ngo bakijane aho gitunganirizwa bari kucanika. Ni ahantu nko mu imisozi miremire cera kandi kiba gitoshe cimeze neza cane.

Ubunyobwa ni kimwe mu bihingwa bihingwa ahantu hashyuha kandi bukagira uruhare mu kuryoshya ibiryo, kuko hari n'ubwo baburya bukaranze n'uko ugasanga bimeze neza cyane bashyizemo nk'umunyu, ni imbuto ziribwa cyane kandi ziba zifite intungamubiri nyinshi.

iIishimbo ni kimwe mu bihingwa bitanga umusaruro kandi bikaba bibonekamo ibyo kurya bitunga urugo vuba kubera ko nta biryo wapfa kurya ngo ubimire bitariho ibishimbo. Ubwo rero abantu benshi barashishikarizwa guhinga ibishimbo no gushaka ubuhunikiro bwabyo buzwi nk'ibigega ndetse bakabibungabunga mu buryo bwose bushoboka.

Ibigori bizwi nka iburide, ni ibigori byera cyane mu misozi y'Intara y' Amajyaruguru. Usanga barakoze ububikiro rusange bwo kubishiramo, kugira ngo bibashe kuma bitabaye ngombwa ko byumira mu ngo, ngo abantu babirya uko bishakiye.

Umuceri ni kimwe mu biribwa bikundwaga cane cane kubera ko ugurwa kenshi ku isoko, ugasanga ari nawo abantu bagira wo kwinyanguriraho mu buryo bwo guteka bworoshe. Gusa iyo udatonoye usanga uruhije cane, kubera ko bawushira mu isekuru bakawusekura, kugira ngo gube gwatekwa.

Indabo ni kimwe mu bimera byiza cane kuko usanga bibereye ijisho. Ariko na none bikanatanga n'umwuka mwiza duhumeka, ukagabanya ibyuka byangiza ubuhumekero cangwa se n'umwuka duhumeka. Ni indabo rero zikwiye guterwa n'abantu benshi, kugira ngo tugire uruhare mu kurinda ikirere cacu.

Impungure za marizori, ni impungure nziza cyane, kuko zituma ifu iba imeze neza cyane, igakorwamwo nk'ifu izwi ku izina rya mayizore. Ni impungure rero ziba ziboneye, zibengerana ku buryo usanga ziba zimeze neza cyane, bakazitekamo n'utundi tuntu bavuga ngo ni injuga zitekerwa ahantu h'amashanyarazi.

Ibishyimbo ni igihingwa gihingwa cyane mu ntara y'amajyaruguru ndetse no mu bindi bice by'igihugu, gusa ibishyimbo by'imikara ni ibishyimbo biba bimeze neza cyane kuko bitekwa nk'umwimerere ukabiteka nko ku birayi bizwi nk'amaganda cyangwa se bakaba banabirya byonyine, usanga rero ari ibishyimbo bimeze neza cane.

Ibikokoriko ni ibihingwa bihingwa mu mirima y'abaturage, kugira ngo bakuremo amavuta amwe azwi nk'ibihwagari. Araryoha cane ku buryo iyo wayatekesheje ibiriryo cangwa se ukaba wanayatekesha nibindi bintu biribwa, araryoha akanagira intungamubiri nziza cane.

Ibigori ni kimwe mu bihingwa byiza iyo bisaruwe neza usanga biba bifite umwimerere wabyo, kandi bigatuma haboneka ifu yo gutekamo igikoma cangwa se, ukaba wanaziteka zonyine nk'impungure cane cane usanga zikundwa, kuko zinabikika igihe kirekire.

Ibishyimbo ni bimwe mu bimera bihingwa cyane mu Ntara y'Amajyaruguru. Usanga bifite imishogi myiza cyane. Abantu bashobora kubirya nk'imiteja cyangwa byaba byumye bakabiteka babitsimbye mu nkono z'ibumba, cangwe se n'amasafuriya. N'umushogoro wabyo uraryoha cyane ku buryo abantu bawukunda ugereranyije n'izindi mboga.

Imbuto zose ziribwa, ziba zigomba kubungwabungwa kugira ngo zitange ubuzima bwiza ku bantu baba bamaze kuzirya, abantu rero barazanika zikaba zakuma kugira ngo zibashe no kumara n'igihe kirekire, kuko usanga zikunze gukoreshwa ku yandi mafunguro abantu barya.

Kugosora ni umurimo ukunze gukorwa n'abagore kubera ko baba bashaka gukuramo ibintu bitameze neza, bagosora impeke zirimo nk'ibigori, amasaka, uburo, ibishyimbo n'ibindi bintu bishobora gutoranywamo ibitameze neza bigashyirwa ku ruhande.

Ibishyimbo ni kimwe mu bihingwa byiza cyane，kuko bituma urugo rugaragaramo ibyo kurya mu buryo bwiza kandi bworoshye，nta biryo ushobora kurya bitariho ibishyimbo， cyane cyane ushobora kubirya nko ku maganda cyangwa bitetswe mu bundi buryo， ariko ugasanga bifite intungamubiri nziza cyane.

Imiteja ni bimwe mu bishimbo bihingwaga cane cane mu Ntara y'Amajaruguru ku buryo usanga abantu b'abakire ari byo bigurira aho kugura ibishimbo byumye. Bityo tukaba dusabwa guhinga byinshi kugira ngo tubashe guhaza amasoko kuko bibonekamo cane cane n'intungamubiri zubaka umubiri mu buryo bwihuse.

Igihingwa cy'ibigori, ni igihingwa gikunze guhingwa cyane cyane mu ntara y'Amajyaruguru, kandi ugasanga gitanga umusaruro cyane nk'ibigori bizwi ku izina rya iburide, kuko bubatsemo ubuhunikiro bwo kugira ngo bajye babyanikamo aho kubyanika mu mago, noneho bakajya kubikuriramo igihe bakabihura bigatanga impungure nyinshi kandi nziza.

Amasaka yumye ni meza cyane kuko atuma tubona ifu y'intungamubiri tukaba twanayivanga n'ibigori na soya bikaba byaba somama, kandi bikagira uruhare rwiza mu gutunga abana bakiri batoya ndetse n'abakuru, bakaba babiyinywa kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Soya ni kimwe mu bihingwa bihingwa mu duce dushyuha cyane cyane， kuko ni impeke zivangwa n'indi fu， iyo zibeteshejwe bakazivanga n'ibigori cyangwa n'amasaka，bitanga intungamubiri mu gikoma，ku buryo uwakinyweye，aba amerewe neza cyane.

Ibihwagari ni kimwe mu bihingwa bigira umumaro munini, kuko bivamo amavuta azwi nyine ku izina ry'ibihwagari, araryoha cyane iyo atekanwe n'ibirayi cyangwa se n'ibindi biribwa, usanga bimeze neza kandi biba bifite intungamubiri z'umwimerere.

Imbuto nyinshi zirunze hamwe zidatagagurikanye, bazegeranyije bashaka kuzanika, kugira ngo zume bazongere bazitere zivemo ibindi bimera baba bashaka. kugira ngo na none umusaruro gwabyo gwiyongere, ni imbuto nziza cane zigira umumaro mu gutunga urugo.

Inzuzi zo mu bihaza byera mu majaruguru, zikunze kuribwa n'abantu bakuze cane, ziri ku myuko hafi n'ameza ku buryo usanga ari ibintu bimeze neza cane. Iyo abantu baziriye, akenshi ntibakunze kugira imbeho, kandi ziraryoha ugereranyije n'izindi mbuto.

Ibyatsi biba bitoshe cane by'ubururu bimeze neza cane bigira ndetse n'ingemwe ku buryo babiteraga ugasanga babitera n'umuti, ndetse ugasanga bifite n'izindi mbuto watera zikazaho n'izindi ngemwe. Abantu barabiteraga kugira ngo bakuremo amafaranga yo kuba barihira nk'abana amashuri cangwa yo kubagaburira.

Ibi bimera bivamo imbuto nziza cane, zimwe ziratonoye ariko izindi ntabwo ziratonorwa. Ziregeranye ku buryo ubona ari utuntu tumeze neza, kandi dutanga umusaruro kuko tuvamo intungamubiri nziza.

Amasaka ni kimwe mu bihingwa bikunze guhingwa mu ntara y'amajaruguru, kandi ni ibimera byiza bituma haboneka ifu yo kuvangwa n'indi fu nk'iy'ibigori, bigatuma igikoma kiryoha cangwa se bakaba bayasya bakayakuramo indi fu yo gushigishamo nk'umusururu.

Ibihingwa byinshi nk'uburo, amasaka ndetse n'ibindi, ni ibihingwa bihingwa mu karere kacu dutuyemo, kugira ngo tube twabonamo ifu no kuvanga n'indi fu wenda y'ibigori, kugira ngo tubone intungamubiri zirahagije.

Amajeri yo mu majaruguru aba afite uruyange rw'umweru ruvanze n'umutuku, iyo yeze araryoha cane ku buryo abantu baje kukubaramira iyo barayariyeho bumva ameze neza cane rwose. Ni amajeri akunze guhingwa mu mirima y'ibijumbure hafi y'imihanda cangwa se nko muri za matimbiri.

ibyo bishyimbo nibimwe mu bihingwa bikunzwe cyane muri iki gihe, haba muri iki gihe cangwa no mu gihe cyashize, usanga nta funguro na rimwe wapfa kurya ritariho ibishimbo, barabishingirira n'imishingiriro, ishobora kuba nk'imbaho cyangwa imigano, cyangwa se n'urubingo.

Ibihwagari ni kimwe mu bihingwa bihingwa mu bice bishuha ku buryo usanga bigira uruhare mu kubonekamo amavuta gatekwa mu biryo azwi nyina nko kubihwagari. Ni amavuta meza cane aba arimo intungamubiri kandi akagira uruhare mu kubaka umubiri ugasa neza ukamererwa neza.

Ubuhinzi bw'ibishimbo birebire, bushingirirwa n'imishingiriro, nk'imbingo cangwa imigano, ndetse hakabaho n'ubundi bwoko bw'ibishimbo bigufi bidakenera imishingiriro. Usanga buhinzwe ahantu harambuye bahinga n'ingano, ku buryo usanga ari ibintu bimeze neza cane, bikazana n'umwuka mwiza mu baturage.

Abaganga b'amatungo ni abaganga baba bazi kuvura neza amatungo， haba ayo mu ngo，cyangwa n'ayo mu gasozi，bashobora kuza n'indege， cyangwa n'ibindi bikoresho， baba abafite imiti mu bidomoro， bambaye n'imyenda yabugenewe， kugira ngo babashe kuyirinda，ko zabatarukiriza zikabanduza cyangwa se zikabatera nabo izindi ndwara.

Mu bworozi bw' amatungo magufi harimo n'ingurube, n'ubworozi butanga umusaruro mu gihe cyihuse kandi ugasanga zigurwa amafaranga menshi kandi zikororoka vuba cyane, n'ingurube rero zibyara mu gihe gitoya ariko ugasanga ibyana zibwaguye bifite amafaranga menshi kandi ari na byinshi bikaba byazamura nyirabyo.

Ingurube ni imwe mu matungo atanga umusaruro vuba, kuko usanga ikigurube kimwe kibyaye nk'ibyana bigera muri bitandatu cyangwa birindwi, kandi ugasanga iyo bimaze kuvuka bigura amafaranga menshi ku buryo byungura umuntu ubyorora.

Inka z'inyambo ni inka zabaga mu rwanda rwo hambere, ariko n'ubu zirahabaga kubera ko usanga zikoreshwa nko mu gihe c'imisango, cangwa se c' ibindi birori bijanye n'umuco nyarwanda, abantu bakazibyinira, bakazivugira. Ni inka ziba zifite amahembe manini cane kandi ziganje mu ibara ry'ibihogo.

Ubworozi ni kimwe mu bikorwa biteye imbere muri iki gihe ,kuko cyane cyane abantu borora nk'ingurube usanga zitanga umusaruro wihuse, kuko iyo kibwaguye usanga gifite ibyana byinshi kandi bikagurishwa amafaranga menshi mu gihe gito biba bimaze.

Ingurube ni imwe mu matungo atanga umusaruro vuba kandi akaba yatanga n'amafaranga, kuko ikigurube kimwe iyo kibwaguye usanga ibyana byacyo bigurwa amafaranga menshi bitanga n'ifumbire n'inyama, k'uburyo usanga ari ibintu abantu bakwiye gushyiramo imbaraga mu korora.

Inka ni zimwe mu matungo afitiye akamaro abaturage kuko atanga umukamo mwiza abantu bagakuraho amata yo kunywa bakagira ubuzima bwiza. Ikindi usanga zibyara inyana zikaba zagurishwa amafaranga cyangwa ukaba wagira inka nyinshi zikomoka ku yo waguze ari imwe.

Ubu bworozi bw'inkoko, ni ubworozi bwa kijambere bugezweho bwo korora inkoko zitanga inyama .Zikuraga vuba ku buryo abantu bashobora kuzirya mu gihe gito cane.

Amatungo magufi ni ubworozi bukwiye gushyirwamo imbaraga, kugira ngo abantu bage babona ibyo kurya ndetse n'inyama n'ifumbire mu buryo bworoshye, kugira ngo babashe kwiteza imbere, no guteza igihugu cyabo muri rusange. Buri wese arasabwa gukora iyi mirimo, kugira ngo tubashe kwikura mu bukene.

Ubworozi bw'inka ni ubworozi abantu bakunze gukora cane, kuko butanga ifumbire, amata ndetse n'inka ubwayo ikaba iri kwiyongera mu mafaranga, ikaba yanabyara ukagira inka nyinshi, Ni amatungo meza rero kuko atuma yongera ubukungu bw'urugo.

Inyama ni kimwe mu biribwa bikundwa n'abantu cyane kabone n'ubwo kiba bihenze ariko ntibyabuza abantu kubigura, kuko bazikunda kurusha ibindi biribwa byose bibaho. Usanga rero ari ibiribwa binogeye abantu mu kubirya kuko bituma abantu bagira ubuzima bwiza burambye kandi bufite umwi....

Iyi nka ifite ibihembe binini bitambitse ,iri mu rwuri rumeze neza, n'ikimasa. Ni mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajaruguru ,ahantu hari ibiti byiza mu mahumbezi y'ibirunga ,ni hafi y'ishamba ni nka rwose bigaragara ko ifite imyaka myinshi.

Ubworozi bw'ingurube ni ubworozi buteye imbere muri iki gihe, kuko bwinjiza cane kurusha ubundi bworozi. Iyo ikibwana kibwaguye nk'ibyana bihita bitangira kubonerwa isoko, kandi ni ubworozi butangaga ifumbire, bugatanga n'inyama ku bantu bakunze kuzirya.

Ubworozi bw'ingurube ni ubworozi butanga umusaruro vubavuba cyane kubera ko ingurube ibwagura ibyana byinshi kandi byose bikavuka biri ku mafaranga yo hejuru. Ni ubworozi butanga ifumbire ndetse n'inyama ku bantu bazirya. Inyama zazo zikaba zizwi ku izina ry'akabenzi.

Inka ni zimwe mu matungo atunga urugo, hakabonekamo umukamo w'amata, zigatanga ifumbire, zigatanga n'inyama ku buryo usanga zinjiza amafaranga neza cyane.

Ubworozi bw'amatungo bugezweho muri iki gihe ni ubworozi buba bujyanye n'igihe, kuko haba hakenewe n'abaganga babizobereye mu gukingira izo nka. Abantu bajya bazijyana ahantu habugenewe kugira ngo zitavamo, bakazitera inshinge, ku buryo zishobora no kwima bitabaye ngombwa ko zurirwa n'ibimasa.

Umuganga w'amatungo afashe imbwa bigaragara ko agiye kuyivura nu muganga umeze neza ufite n'ibikoresho byabugenewe ,kandi n'imbwa yamwumviye icisha bugufi. yambaye imyenda y'icatsi n'umweru afite n'ibikoresho byo mu matwi.

Inyamaswa ziba ziteye ubwoba, ku buryo usanga kuzireba na byo biba biteye ubwoba ku muntu uzibona. Izo nyamaswa, inyinshi ziri mu bwoko bw' ingwe, injangwe ndetse n'ibisamagwe, ibyo rero bigatuma ziba inyamaswa zo kureba ukoresheje ubwitonzi, iyo uzisagarariye ntabwo wapfa kuzicika.

Inyoni ni zimwe mu nyamaswa zifitiye akamaro abaturage, kuko iyo ziguruka zishobora kugurukana ibinyampeke cyangwa se n'utundi tunyabuzima dushobora kubangurira ibindi bimera bafite, ubwo rero inyoni zimwe tugomba kubungabunga, kugira ngo zitange umusaruro kuri twe no mu gihe kizaza.

Ingurube ni inyamaswa ziba mu rugo zikunze kororwa n'abantu kugira ngo babe bazifashisha mu kuzikuramo inyama zibatunga, cangwa se no gutanga ifumbire ku buryo usanga ari amatungo yororoka vuba, kuko abyara n'ibyana byinshi, bikaba byakongera ubukungu bw'urugo vuba.

Inyoni ni zimwe mu nyamaswa zikundwa na ba mukerarugendo mu buryo bwo kuzireba. Kandi zigira akamaro kanini mu kubangurira ibiribwa n'ibimera, kuko bituma habaho kubangurirwa hakoreshejwe utuntu zijyana mu maguru yazo tukava ku bimera bimwe tubijyana ku bindi.

Imbogo ni zimwe mu nyamaswa ziba mu ishyamba ndetse zikaba n'ahantu ho mu mayaga nko mu bice by'umutara, ndetse no mu bice byo mu ishyamba ry'ibirunga. Ubwo rero zikundana n'izindi nyoni z'inyange, kuko zigendana zishaka kugira ngo zirire udusimba tuba tuziriho, kandi izo nyamaswa ntizikunda ahantu hari abantu benshi.

Inyoni ni zimwe mu inyamaswa zikundwa cane, kubera ko zigira uruhare runini mu kubangurira ibimera, noneho bikaba byakororoka mu buryo bworoheje, zitugirira akamaro rero kubera ko zongerera ibyo bihingwa muri rusange.

Hari inyoni zimwe na zimwe zarika mu biti ugasanga zija mu biti zikinjiramo, zikadodanga ku buryo zikoramo umwenge munini cane wo kwinjiriramo, maze zikaja zirarara umwo ndetse zikaba zanakwarikamo, zigatereramo amagi ku buryo usanga ariho zibera.

Inkende zikunze kwiryamira mu biti, zigashira akaboko hanze, zikigaramira ku buryo ubona zinezerewe cane rwose. Ba mukerarugendo iyo baje kuzisura, usanga bazishimiye kandi natwe nk'abaturage bo mu Ntara y'Amajaruguru, usanga zidushimishije cane rwose.

Inyoni z'iwacu ni inyoni zikundwaga cane cane na ba mukerarugendo, kuko bazaga kuzisura ugasanga basize nk'amadovize, agira uruhare mu guteza imbere abaturage batuye mu ntara y'Amajyaruguru, by'umwihariko mu Karere ka Musanze.

Ingagi ni ubwoko bw'inyamaswa buboneka mu mashamba cimeza yo mu birunga, cangwa se no mu misozi miremire. Ni inyamaswa zikundwa na ba Mukerarugendo, ku buryo usanga zinjiza amadovize menshi mu gihugu ku banyamahanga baturutse hirya no hino, ndetse n'abanyarwanda ubwacu turazikunda, ziba zibera mu biti nko mu migano no mu byatsi.

Ikigona ni bimwe mu nyoni nziza ziboneka mu karere kacu ka Musanze, no mu ntara y'Amajyaruguru by'umwihariko. Kiba gifite ibara ry'umukara hose, n'irindi ry'umweru mu nda, no mu ijosi. Abana bakunda kukireba, ntacyo gitwaye kuko nticyangiza ibindi biremwa biba biri mu mago n'ahandi.

Inkende akenshi ziba zikozwe nk'abantu, zijaga mu biti zikabyurira ndetse zikaba zakwibera nk'iyo mu bishami, hari n'ubwo zijaga mu baturage zikabonera zikarya nk'imyaka ariko mu buryo bwo kurengera ibidukikije, usanga zibera mu mashamba n'abakerarugendo bakazisangamo.

Imishubi ni bimwe mu bimera biba mu mashamba kuko ahanini biba bituma inyamaswa zidapfa kwinjira uko zibonye. Ntabwo byaba mu giturage kubera ko byatuma abantu bibica ugasanga barabitemye, ahubwo biba byiganje mu mashamba ya ciyemeza.

Inyamaswa zo mu gasozi ni inyamaswa nziza zikundwa na ba mukerarugendo mu buryo bwo kuzireba mu byanya byazo ahoziba; usanga ari inyamaswa ziba ziteraniye hamwe noneho zikaba zikoze nk'umuryango wo kuba zaba ziri kumwe ubwazo ,zigakunda kwibera mu mafamu n'ahandi mu gasozi.

Intare ni inyamaswa zo mu gasozi ziba mu ishyamba rya zonyine, kuko ntiziba ahantu haba abantu, kuko utabana nazo ngo bishoboke, ziba zishaka ubwisanzure bwazo bwite nta kuzisagararira, ugasanga na ba mukerarugendo mu kuzireba bakoresha amamodoka yabugenewe kuko zishobora no kubahitana.

Inyoni zikundaga ahantu hari ibiti by'ubusitani bifite n'indabo zo kugira ngo zikuremo ibyo kurya; ziragurukaga zigahagarara nko hejuru zikaba zakorayo n'ibyari byo gutereramo amagi. Ni inyoni nziza cane ziri mu bara ry'umweru n'umukara n'indabo nziza zifite uturabyo tw'umuhondo.

Inyange ni agasimba keza cyane kaguruka, kaba kererana kumweru dede, gakunze kuba mu bishanga kandi ntacyo gatwaye, kuko ntacyo kangiza ntikona imyaka, ahubwo usanga kabereye ijisho ku bantu bakareba, uburyo bamukerarugendo bakunda iki kinguruka kuberako ntacyo gitwaye.

Inyoni zikundaga mu ndabo cane cane kugira ngo zikuremo ibyo kurya bizitunga, zibone n'ibyo gutunga ibyana ziba zarabyaye. Ni ahantu rero zikunze kwibera ku buryo zihakura ibyo kurya byinshi.

Inyoni ni zimwe mu nyamaswa nziza cane, kuko zigira uruhare mu guteza imbere abaturage, nko kubangurira ibimera, bigatuma bitububuka ku bwinshi, cyangwa se no kugira uruhare mu kurya udusimba, dushobora kwangiza nk'imyaka, cyangwa se dushobora no gutera indwara.

Urwumvu rw'icyatsi rufashe ku giti, ruri kwerera rwazinze n'umurizo, rurafashe cyane kandi rurahanda, iyo rugufashe rukakurya ugira ikibazo. Icyo uba usabwa akenshi, ni ukurwirinda umuntu akarugendera kure.